Umuntu uri kugenda atera umuti ibihingwa bigiye bitandukanye, akaba ahetse ipombo y'ubururu, aho ari kugenda yita ku bihingwa bye kugira ngo arebe ko byazabasha kumuteza imbere.

Umuntu wakoze umwuga w'ubuhinzi, akaba ari mu murima we ahetse impombo, akaba ari kugenda yuhira ibihingwa bye akoresheje ipombo yabugenewe kugira ngo ibyo bihingwa bitazafatwa n'izuba.

Umuntu wahinze imbuto z'ibinyomoro, none akaba afite ifumbire y'umukara ari kugenda ashyiraho kugira ngo bizakure neza kandi bibashe guteza imbere nyirabyo maze abone amafaranga.

Uducupa tugera muri dutatu turi ahantu hamwe, aho utu ducupa ari ingirakamaro cyane kubera ko tuba turimo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu kwica udukoko ku bantu bakora umwuga w'ubuhinzi.

Umuntu wahinze urusenda none akaba ari mu murima we, ari kugenda arwuhira, aho ari kurutera umuti kugira ngo urwo rusenda rutazabasha gufatwa n'udukoko maze rukarumba.

Umuntu uri kugenda mu murima we akaba ahetse ipombo, ari kugenda atera umuti ibihingwa bye yagiye ahingamo kugira ngo arebe ko byazabasha kumuteza imbere akunguka.

Umurima uteyemo umuceri, aho hari umugabo w'umuzungu uri kugenda yuhira umuceri kugira ngo arebe ko uwo muceri wazabasha kwera neza hanyuma ugaha umusaruro nyirawo maze akunguka.

Abantu babiri, aho harimo umugabo ndetse na mugenzi we. Bakaba bari mu murima uhinzemo ibirayi, aho umwe ari kwereka undi umuti mwiza wakwifashishwa mu kubyuhira.

Mu umurima uhinzemo ibigori hakaba hari umugabo ufite ipombo ari kugenda abitera umuti kugira ngo bitaza gufatwa n'udukoko tuzwi nka nkongwa maze bikaba byarumba.

Ahantu mu gishanga hahinze umuceri, aho hari umugabo wambaye imyambaro y'umukara ndetse ahetse n'ipombo mu mugongo, akaba ari kugenda awutera umuti kugira ngo uwo muceri we utazafatwa n'udukoko.

Ubuhinzi bw'ibitunguru bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe umuntu wese ubihinze akabyitaho akabitera umuti uko bikwiriye na byo bibasha kumuha umusaruro uko abyifuza.

Umugore ukora umwuga w'ubuhinzi wabigize umwuga, akaba ari mu murima we uteyemo imboga, akaba ari kugenda azuhira azitera n'umuti kugira ngo zitazafatwa n'udusimba tukazangiriza.

Umurima uhinzemo ibigori aho hari abantu bari kugenda babyuhira bigaragara ko ari abantu bize ibijyanye no kuhira imyaka bakayitaho kugira ngo itazafatwa n'udukoko.

Ikigega gifite robine zigiye zitandukanye, aho kuri buri rubine batezeho akajerekani k'umweru bari kugenda bavomeramo, bigaragara ko icyo kigega cyaba kirimo ji cyangwa imiti.

Umugore uri ahantutu ukora umwuga w'uburobyi, akaba afite agashashi ari kugenda ashyira ibyo kurya by'amafi ahantu mu cyuzi kugira ngo amafi azakure.

Ubworozi ndetse n'uburobyi bw'amafi bikomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye babikora barabigize umwuga, bakabyitaho hanyuma na byo bikazabateza imbere mu gihe kizaza.

Mu kiyaga cyangwa mu byuzi runaka, dukunze gusangamo amafi aba yarakoze cyane ku buryo umuntu wese ubashije kuriroba, amafaranga ayigurisha amake yaba ari ibihumbi bibiri gusa.

Ubworozi bw'amafi nabwo bwateye imbere cyane, aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora amafi barabigize umwuga, bakayororera mu byuzi bigiye bitandukanye hanyuma bakagenda bayitaho maze na yo akazabaha umusaruro.

Ubworozi bw'amafi bukomeje gutera imbere cyane, ariko biba byiza iyo uyoroye ukazajya uyaroba mbere y'uko abanza gupfa amaze gukura kuko bituma umuntu atera imbere.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho, zikaba zisakaje amabati ari mu mabara y'ubururu, zikaba zigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza ndetse n'ay'inshuke.

Aburobyi bw'amafi bukomeje gutera imbere cyane, aho muri iki gihe hari abantu basigaye baroba amafi barabigize umwuga hanyuma umusaruro uvuyemo bakajya kuwugurisha maze bagatera imbere.

Ahantu heza cyane hari amazi agiye atandukanye akikije insina, aha rero hakaba hakorerwa igikorwa cy'uburobyi, aho abantu basigaye baza kuharobera barabigize umwuga kugira ngo babonemo amafi.

Hariho abantu bakora umwuga w'uburobyi baba barabigize umwuga, bakajya bagenda mu biyaga bakarobamo amafi agiye atandukanye maze bakayagurisha bakabonamo amafaranga.

Abantu benshi cyane bakoze umwuga w'uburobyi bw'amafi, aho basigaye bayorora barabigize umwuga. Bakayabaha ibyo kurya bigiye bitandukanye, hanyuma na bo bakagenda bayaroba igihe kiba kigeze, bakayagurisha, bakabonamo amafaranga.

Uburobyi bw'amafi bukomeza gutera imbere cyane, aho muri iki gihe n'abantu b'abagore babonye ko bashoboye, bakaba nabo bakora umwuga w'uburobyi bw'amafi, bakajya kuyaroba hanyuma nabo bakaba bakwiteza imbere.

Ubworozi bw'amafi bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho abantu basigaye borora amafi hanyuma yamara gukura bakajya kuyaroba bakayagurisha bakabonamo amafaranga ahagije.

Umwuga w'uburobyi ugenda urushaho gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye batunzwe no kuroba gusa. Bakajya baroba, bakita ku matungo yabo y'amafi, hanyuma bakazabona umusaruro.

Ikiyaga cyiza cyane kandi kinini kirimo amazi menshi cyane, hakaba harimo n'ubwato, aho ari kugendamo umuntu, bikaba bigaragara ko uwo muntu ari kuroba amafi muri icyo kiyaga.

Icyuzi kikaba cyororewemo amafi agiye atandukanye, aho muri iki gihe abantu basigaye borora amafi barabigize umwuga, hanyuma maze akabateza imbere bakabonamo amafaranga.

Ahantu hari ubworozi bwinshi cyane bw'amafi, aho ubu bworozi bwateye imbere cyane mu Rwanda, muri iki gihe umuntu asigaye abukora akabwitaho, hanyuma yashyiramo n'ibyo kurya yajya kuroba agasanga amafi yarakoze akamuha umusaruro.

Ubuhinzi bw'ikawa bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda aho ikawa ari kimwe mu bihingwa ngengabukungu bihingwa mu Rwanda aho umuntu wese uyihimbye ibasha kuba yamuteza imbere.

Ubuhinzi bw'ikawa bukomeje gutera imbere cyane, aho muri iki gihe abantu basigaye bahinga ikawa barabigize umwuga bakayitaho hanyuma na yo ikazabaha umusaruro ahazazah imbere.

Ubuhinzi bw'icyayi bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye bahinga icyayi barabigize umwuga, bakagisoroma neza bakacyitaho hanyuma kikazabateza imbere cyane.

Umurima w'icyayi hakaba harimo umugore uri kugenda asoroma icyayi, akaba yarakoze umwuga w'ubuhinzi, akaba ari kugenda asoroma icyayi neza cyane kugira ngo arebe ko yabona amafaranga.

Umugore wakoze umwuga w'ubuhinzi bw'inyanya, akaba ari kugenda azisoroma, azishyira mu nkangara yabugenewe kugira ngo nizigwira ajye kuzigurisha mu isoko ryabugenewe.

Umugore ukiri muto wakoze umwuga w'ubuhinzi bw'ikawa akaba yazisaruriye ku nkoko, ari kwerekana umusaruro zamuhaye kuko ikawa ari igihingwa ngengabukungu gitanga umusaruro cyane.

Ubuhinzi bw'ikawa bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye bahinga ikawa bya kijyambere, yamara kwera bakayisoroma maze bakajya kuyigurisha bakabona amafaranga.

Ahantu heza cyane hahinze ibihingwa ngengabukungu, hakaba harimo ibinini by'amoko agiye atandukanye, bigaragara ko ibi binini bikomoka ku bihingwa biba byarahinzwe mu Rwanda.

Mu gishanga hakunze guhingwa umuceri, aho umuntu wese uhinze umuceri akawitaho, ugenda umuteza imbere maze akabona umusaruro ufatika, bityo agakirigita ifaranga nubwo kuwuhinga bitaba byoroshye.

Ubuhinzi bw'icyayi bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye bahinga icyayi barabigize umwuga, bakacyitaho hanyuma cyamara gukura kikabaha umusaruro bakakigemura ku masoko.

Umuntu w'umugabo wambaye agashati k'amabara atandukanye, akaba yambaye agapantaro k'umukara, afashe icyapa mu ntoki kiri ahantu mu murima uhinzemo ikawa, ikawa rero ikaba ari ingenzi cyane.

Ubuhinzi bw'icyayi bukunze gukorwa cyane cyane mu turere dukonja nk'utwo mu ntara y'Iburengerazuba, hari abantu baba basoroma icyayi barabigize umwuga, bakacyitaho hanyuma nabo bikazabateza imbere.

Ubuhinzi bw'ikawa bugenda burushaho gutera imbere cyane uko bwije n'uko bukeye, kuko umuntu wahinze ikawa akayitaho ibasha kumuteza imbere maze akabona amafaranga yamutunga mu buzima bwe.

Umurima uteyemo icyayi, aho iki cyayi ari cyinshi cyane bigaragara ko umuntu wabihinze yabigize kinyamwuga, hakaba harimo umuntu wambaye agapira k'umutuku ari kugenda agisoroma.

Umugore n'umugabo bateraniye hamwe, aho umugabo yambaye imyambaro imurekuye, umugore we akaba nawe ari kumwe na we. Bahagaze mu murima uhinzemo umuceri, aho umuceri ari ingirakamaro cyane.

Ahantu hahinze ikawa aho ubuhinzi bw'ikawa ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese uyihinze akayitaho ibasha kumuteza imbere cyane maze akabona amafaranga ahagije nkuko ayifuza.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho harimo uducupa twinshi tugiye dutandukanye turi mu mabara menshi, utw'umweru ndetse n'utw'icyatsi. Tukaba turimo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu kuvura amatungo.

Hariho amoko ajyiye atandukanye y'imiti, aho iyo miti ari ingenzi cyane kuko yifashishwa mu kuvura amatungo agiye atandukanye, ikaba rero ikunze kuba icururizwa ahantu mu maduka.

Uducupa twinshi cyane tugiye dutandukanye, aho tuba turimo imiti myinshi yifashishwa mu buvuzi bw'amatungo, tukaba turambitse ahantu mu cyumba, aho waba udukeneye wadusanga igihe cyose.

Ubworozi bw'amatungo bugenda burushaho gutera imbere cyane, aho hari abantu basigaye bacuruza imiti yifashishwa mu kuvura aya matungo kugira ngo azabahe umusaruro atazarwaragurika indwara runaka.

Uducupa twinshi tw'amoko agiye atandukanye, aho utu ducupa tuba turimo imiti myinshi, yifashishwa mu kuvura amatungo, igihe cyose yagize ikibazo. Niba uyikeneye waza ukayigurira aha.

Agakarito kari mu mabara y'umutuku n'umukara, kakaba karimo imiti igiye itandukanye, aho iyi miti ari ingirakamaro cyane kubera ko yifashishwa mu kuvura amatungo kugira ngo ayo matungo azatange umusaruro.

Hariho amoko agiye atandukanye y'imbuto zifashishwa n'abantu bakora umwuga w'ubuhinzi, aho bazicururiza kandi haba hari n'imiti igiye itandukanye yifashishwa mu kuvura amatungo.

Uducupa twinshi cyane tugiye dutandukanye, aho utu ducupa dupanze ahantu hamwe tukaba turi mu mabara y'imyeru, ndetse tukaba turimo imiti myinshi igiye itandukanye yifashishwa mu kuvura amatungo.

Uducupa twinshi tw'amoko agiye atandukanye, turambitse ahantu hamwe mu nyubako yubatswe neza mu buryo bugezweho, tukaba turimo umuti w'amatungo uvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye.

Udukombe tugiye dutandukanye, aho utu dukombe tuba ari ni ingirakamaro cyane kubera ko tuba turimo imiti y'amatungo, korora amatungo rero ukayavuza, biba ari ingirakamaro cyane kuko biri gutuma utera imbere.

Uducupa twinshi cyane tugiye dutandukanye, aho turi mu mabara y'imyeru, tukaba turimo imiti igiye itandukanye, aho iyi miti yifashishwa mu kuvura amatungo magufi ndetse n'amatungo maremare yo mu rugo.

Uducupa twinshi tugiye dutandukanye, aho utwo ducupa turimo imiti myinshi iri mu mabara agiye atandukanye, iyi miti ikaba ari ingirakamaro cyane kubera ko yifashishwa mu kuvura amatungo agiye atandukanye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, ikaba irimo uducupa mo imbere dufite imipfundikizo y'umweru, tukaba turimo imiti igiye itandukanye, yifashishwa mu kuvura amatungo yo mu rugo.

Iduka ricurizwamo imiti igiye itandukanye, aho iyo miti ari ingirakamaro cyane kubera ko yifashishwa mu kuvura amatungo yo murugo. Maze akaba yakira akamererwa neza cyane.

Ahacururizwa imiti igiye itandukanye, aho iyi miti yifashishwa mu kuvura amatungongo, ikaba ari ingirakamaro cyane, aho iri mu dushashi twinshi tugiye dutandukanye maze bakayifashisha.

Agakarito kari mu mabara agiye atandukanye y'umutuku ndetse n'umweru n'ubururu. Tukaba turimo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu kuvura amatungo yo mu rugo igihe cyose ayo matungo aba yagize ikibazo.

Udushashi twinshi cyane turi mu mabara atandukanye, tukaba turimo imiti myinshi cyane kandi y'ingirakamaro yifashishwa mu kuvura amatungo igihe cyose yaba yarwaye bakifashisha iyi miti kugira ngo bayavure.

Uducupa twinshi tugiye dutandukanye, aho tuba turimo imiti y'amatungo, iyi miti rero ikaba ari ingirakamaro, aho umuntu wese uyivuje amatungo ye igihe arwaye abasha gukira agakomeza gukura neza.

Udushashi twinshi cyane tugiye dutandukanye, aho turi mu mabara y'umuhondo, umutuku ndetse n'icyatsi, tukaba turimo imiti myinshi y'ingirakamaro, yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye zifata amatungo.

Udukarito twinshi cyane turi mu mabara agiye atandukanye, aho tumwe dusa umutuku ndetse n'umukara, tukaba turimo imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura amatungo kugira ngo amererwe neza.

Uducupa twinshi cyane turi mu mabara y'imyeru ndetse dufite n'imipfundikizo y'imyeru, tukaba turiho icyapa kiri mu mabara y'icyatsi, aho tuba turimo imiti yifashishwa bavura amatungo.

Uducupa twinshi tugiye dutandukanye, aho utwo ducupa turimo imiti y'ingirakamaro, aho iyi miti yifashishwa mu kuvura aya matungo maze amatungo akaba yakira indwara runaka, aba arwaye.

Isorori iri mu ishashi irimo imiti y'amatungo, ikaba iteretse ahantu ku ntebe nziza cyane y'umweru. Iyi sorori rero ikaba ari ingenzi cyane ku borozi b'amatungo yo mu rugo.

Indobo nziza cyane iri mu mabara y'ubururu, ikaba irimo umuti wifashishwa mu kuvura amatungo, irambitse ahantu ku gatebe keza cyane k'umweru, aho aka gatebe ari ingirakamaro cyane.

Abantu bahuriye hamwe mu murima uhinzemo inyanya bakaba bari kugenda bazibagarira nubwo ari ntoya kitarizamera, higanjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo bakaba bari kugenda bazitaho.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe, aho bari mu murima uhinzemo imbuto zizwi nk'amapapayi, izi mbuto rero ni ingenzi ku buryo umuntu wese uzihinze akazitaho zibasha kuba zamuteza imbere.

Inyubako nziza cyane aho hari ubusitani buripande yazo buririmo abantu benshi cyane bari mu gikorwa cy'umuganda, higanjemo abambaye imipira y'ubururu, icyatsi ndetse n'amapantaro y'umukara bari muri icyo gikorwa cy'umuganda.

Muri pariki y'Igihugu y'u Rwanda y'Akagera haba harimo amoko menshi agiye atandukanye y'inyamaswa, ariko haba hari n'amashyamba menshi cyane abantu bajya gutashyamo, bagakuramo inkwi bifashisha bari guteka.

Umugabo uri kugenda ashoreye iyi inka akaba ari kumwe n'akana ke, biragaragara ko izi nka zariye neza zikaba zibyibushye ari kugenda aziragira kugira ngo zimererwe neza zizamuhe umusaruro.

Umugore n'umugabo bari ahantu hamwe mu murima, aho buri wese atereye isuka ku rutugu bigaragara ko ari abahinzi, bakaba bari mu murima uteyemo urutoki, bakaba bari kureba ko bakwiteza imbere.

Umugabo w'umuhinzi uri ahantu mu murima uteyemo ibiti byinshi cyane, akaba ahagaze munsi yibiti ari kureba hejuru, yambaye agapira k'umutuku n'ingofero iri mu mabara asa umukara.

Ubworozi bw'inkoko bumaze gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora inkoko barabigize umwuga, bakazitaho hanyuma na zo zikazabaha umusaruro mwinshi cyane.

Ubuhinzi bw'ibishyimbo bukomeje gutezwa imbere cyane ahantu mu cyaro, aho abantu basigaye babihinga bakabyitaho hanyuma bikazabateza imbere kubera ko bakunda guteramo n'ibiti bya gereveriya.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye biganjemo abaturage ndetse n'abayobozi, hakaba harimo n'abakorera inzego zishinzwe umutekano zizwi nka DASSO, bari guhereza umwana igihoho kirimo ikibuto cya avoka.

Abantu babiri b'igitsina gabo bakaba bari kugenda ahantu basunitse igare ririho inkwi bigaragara ko bavuye gutashya, aba rero ni abantu b'abagabo bafite n'abagore.

Ubuhinzi bw'umuceri bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho abantu bahurira hamwe bakawusarura, maze bakawugurisha bakabonamo amafaranga menshi cyane yabatunga bakiteza imbere.

Umugore uri ahantu mu murima akaba afite ibihoho bibiri birimo ingemwe z'amatunda, akaba ari kwerekana ko agiye guhinga amatunda kugira ngo azamuteze imbere mu gihe kizaza.

Igishanga cyiza cyane giteyemo amoko agiye atandukanye y'umuceri, aho uyu muceri ari ingirakamaro cyane, ku buryo umuntu wese uwuhinze akawitaho, ubasha kumuteza imbere akabona umusaruro utubutse.

Umugore ukora umwuga w'ubuhinzi, akaba ari mu murima we wahinzemo imbuto ndetse n'imboga akaba ari kugenda azitaho azibagarira kugira ngo zizabashe kumuha umusaruro mu gihe kiri imbere.

Ubworozi bw'inka bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda aho, muri iki gihe abantu basigaye borora inka bakazitaho, bakazikama hanyuma na zo zikazabaha umusaruro uhagije.

Ubworozi bw'inka bukomeje gutera imbere cyane, aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora inka barabigize umwuga, bakaziha ibyo kurya bigiye bitandukanye ndetse bakanazitaho, hanyuma na zo zikazabaha umusaruro.

Ubworozi bw'inka bumaze gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe abantu basigaye borora inka barabigize umwuga bakaziragira mu masambu yabugenewe hanyuma na zo zikazabaha umusaruro mu gihe kiri imbere.

Umugore uri kugenda ahantu mu murima uhinzemo ibihingwa by'imboga, akaba afite amabasi agera muri atatu ndetse n'isuka, akaba ari kugendamo imbere ye hari abandi bari aho bahubikira imyaka.

Ahantu hari ubutaka bwiza cyane kandi bugari, hakaba harimo n'amapoto atwara insinga z'umuriro w'amashanyarazi, azijyana ku baturage bagiye batandukanye mu gihugu kugira ngo babashe kwiteza imbere maze bave mu mwijima.

Agakarito kari mu mabara y'icyatsi, karimo amoko agiye atandukanye y'imbuto ndetse n'ibicuruzwa bigiye bitandukanye, dukunda gusanga ku maduka iyo tugiye guhaha, harimo Korogate, inyanya n'ibindi byinshi.

Ubuhinzi bw'ibirayi bugenda butera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe abantu basigaye bahinga ibirayi bakabyitaho hanyuma na byo bikazabaha umusaruro utubutse bagatera imbere.

Umurima uhinzemo ibigori byinshi cyane, aho ibi bigori ari ingirakamaro kubera ko umuntu wese ubihinze akabyitaho, bimuteza imbere maze agakirigita ifaranga.

Ubuhinzi bw'umuceri bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda aho muri iki gihe abantu basigaye bahinga umuceri barabigize umwuga wamara kwera bakawusarura, bakawuhura, bakawujyana kuri koperative.

Igishanga gihinzemo umuceri aho uwo muceri ari mwiza cyane, hakaba harimo abahinzi bawo bari kugenda bawo bawitaho kugirango uzabashe kwera neza maze utange umusaruro ku muhinzi wawo.

Ubuhinzi bw'imyumbati bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe harigaraga basigaye bahinga imyumbati barabigize umwuga, bakayitaho, bakayibagarira, hanyuma basarura bakayigurisha bakabona amafaranga.

Ubuhinzi bw'insina ni ingirakamaro cyane, aho muri iki gihe hari abantu basigaye bahinga urutoki, hanyuma bakarwitaho, bakanarusasira maze byakwera bakajya babigurisha, ibindi bakabirya.

Umurima uhinzemo amoko menshi agiye atandukanye y'ibihingwa, hakaba harimo ibitunguru ndetse na karoti, ibi rero ni ingirakamaro cyane, aho umuntu wese wabihinze bibasha kumuha umusaruro maze agatera imbere agakirigita ifaranga.

Ubuhinzi bw'ikawa bugenda burushaho gutera imbere cyane mu Rwanda, aho abantu basigaye babihinga barabigize umwuga, bakaza bagashyiraho ifumbire hanyuma ikawa yakwera bakajya kuyigurisha bakabona amafaranga.

Igiti cy'umwembe giteyemo amoko agiye atandukanye y'ibiti, ibi biti rero bikaba ari ingenzi, aho umuhinzi wabyo wabigize umwuga bibasha kumuteza imbere cyane maze akabona amafaranga.

Ubuhinzi bw'imyumbati bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe umuntu wese uhinze imyumbati akayitaho, imuha umusaruro ufatika maze akaba yatera imbere.

Ibishyimbo byameze mu murima, bikaba bigaragara ko nyirabyo yahinze hanyuma asaruye bisigaramo, none bikaba byarameze ariko bikaba ari byinshi cyane ku buryo abiretse byabasha kwera.

Urubingo ruteye ahantu mu murima, aho urwo rubingo ari ingirakamaro cyane kubera ko abahinzi n'aborozi b'amatungo, bakunze kurwifashisha bahirira amatungo yabo kugira ngo abone ibyo kurya.

Ubuhinzi bw'imyumbati bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye bahinga imyumbati barabigize umwuga bakayitaho hanyuma nayo yakwera bikazabaha umusaruro uko babyifuza.

Ahantu hari ubutaka bwiza cyane, haringaniye bigaragara ko ari ahantu heza, hakaba nta gihingwa na kimwe gihinzemo ariko hakaba hahingwa ndetse hakaba hatanga n'umusaruro ku muhinzi waho.

Umurima uhinzemo amoko agiye atandukanye y'imboga, aho izi mboga ari ingirakamaro cyane, harimo dodo, ibitunguru ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, byose bigirira u Rwanda akamaro.

Ubuhinzi bw'imboga n'imbuto bikomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye bahinga imbuto z'amoko agiye atandukanye, harimo nk'inyanya, karoti, puwavuro ndetse n'amaronji maze bikazabateza imbere.

Ubuhinzi bw'insina bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye bahinga insina barabigize umwuga, bakazitaho hanyuma na zo zikazabaha umusaruro.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, bikaba bigiye biri mu dukarito, aho harimo amoko y'ibyo kurya bitandukanye, nk'intoryi, karoti, puwavuro ndetse n'ibindi.

Indobo zigiye zitandukanye ziri ahantu mu isoko, zikaba zirimo ibijumba bigaragara ko biri kugurishwa, ubuhinzi bw'ibijumba rero ni ingirakamaro cyane, aho umuntu wese uhinze ibijumba bimuha umusaruro.

Ubuhinzi bw'umuceri bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye bahinga umuceri barabigize umwuga, bakawitaho hanyuma wamara kwera ukabaha umusaruro bakawugurisha.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe bari mu nama, bakaba bicaye ku ntebe. Bicaye munsi y'ibiti birebire, bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi. Muri abo bantu harimo n'abashinzwe umutekano bazwi nk'abapolisi, abasirikari ndetse n'abadaso.

Ishyamba riteyemo amoko agiye atandukanye y'ibiti, aho ibi biti ari ingirakamaro cyane, ku buryo umuntu wese ubihinze akabyitaho, bibasha kumuteza imbere cyane maze bikamuha umusaruro.

Umuntu uri kugenda ahantu mu ishyamba ateruye ibuye, akaba yambaye agapira k'umweru ndetse n'ipantaro isa n'ishaje, ari kugenda imbere ye hari mugenzi we na we uteruye ibuye. Biragaragara ko bari mu muganda.

Ahantu hari ubutaka bwiza cyane kandi bugari hakaba hahuriye abantu benshi bigaragara ko bari mu gisambu bakaba bari guhinga kugira ngo babashe kuba bahatera imyaka myinshi.

Ahantu hari umurima mwiza cyane uteyemo amoko menshi agiye atandukanye y'ibiti, aho ibi biti ari ingirakamaro cyane, ku buryo umuntu wese wabihinze, bibasha kumuteza imbere maze akaba yakirigita ifaranga.

Umusozi mwiza cyane uteyeho amoko agiye atandukanye y'ibiti, aho ibi biti ari ingirakamaro cyane kubera ko umuntu wese wabihinze akabyitaho, bibasha kumuteza imbere akabona amafaranga.

Umurima uhinzemo amoko agiye atandukanye y'imbuto, aho izi moto ari ingirakamaro cyane, hepfo hakaba hari amazu atakaje amategura, hakaba hateyeye n'insina nziza cyane kandi zimeze neza.

Ubworozi bw'inka bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda. Aho muri iki gihe abantu basigaye burora inka barabigize umwuga, bakazihi ibyo kurya bigiye bitandukanye, hanyuma na zo zikazabaha umusaruro.

Ahantu hari ubutaka bwiza cyane kandi bugari, bukaba buteyemo amoko agiye atandukanye y'ibyatsi, aho ibi byatsi ari ingirakamaro cyane kuko umuntu wese ubifite bibasha kuba byamuteza imbere cyane.

Ishyamba riteyemo amoko agiye atandukanye y'ibiti. Aho ibi biti ari ingirakamaro cyane, kuburyo umuntu wese ubihinze akabyitaho bibasha kumuteza imbere maze akabona amafaranga.

Ishyamba riteyemo amoko agiye atandukanye y'ibiti binini, aho ibi biti ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese ubihinze akabyitaho bibasha kumuteza imbere akabona umusaruro.

Ubuhinzi bw'ibiti ndetse bukaba ari ubuhinzi bw'ingirakamaro cyane, aho umuhinzi wahinze ibiti iyo bikuze abisarura maze akabigurisha akabonamo amafaranga yamutunga.

Ubuhinzi bw'imyumbati bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye bahinga imyumbati barabigize umwuga bakayitaho hanyuma basarura bakazabonamo amafaranga menshi cyane yabateza imbere.

Umugabo uri guseka yambaye agapfukamunwa. Akaba afite ibase y'ubururu, irimo amatunda avuye gusarura mu murima we. Bikaba bigaragara ko yishimiye umusaruro akuyemo.

Umugore witeze igitambaro akaba yambaye ishati y'igitenge, ari kugenda mu murima yahinzemo indabo areba ko zaba zimeze neza ngo aziteho zizamuteze imbere cyane.

Ubuhinzi bw'imboga n'imbuto ndetse n'indabyo bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu baba barabigize umwuga, bakabikora neza bakabyitaho kugira ngo bizabashe kubaha umusaruro mu gihe kiri imbere.

Ahantu hahinze amoko agiye atandukanye y'indabyo ndetse zikaba zinasakariye, izi ndabyo rero ni nziza cyane kuko iyo bazisaruye bazijyana maze bakazitunganyamo parufe ihumura neza cyane.

Ubuhinzi bw'inyanya bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye bahinga inyanya barabigize umwuga, bakazitaho hanyuma bazigurisha zikazabateza imbere cyane bakabona umusaruro.

Ubuhinzi bw'inyanya bugenda burushaho gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye bahinga inyanya barabigize umwuga. Bakazitera umuti uko bikwiriye kugira ngo nizera bazabashe kubonamo urwunguko.

Umugabo wakoze umwuga w'ubuhinzi bw'amatunda, akaba ari kugenda ayasoroma kugira ngo azage kuyagurisha ku isoko hanyuma amuteze imbere abonemo umusaruro ufatika.

Umugore uri mu murima uhinzemo amashu akaba ari kugenda ayitaho ayuhira, aho ari kugenda asukamo amazi, ni byiza cyane rero guhinga amashu hanyuma ukayuhira kuko bitanga umusaruro.

Ubuhinzi ndetse n'ubworozi bikomeje gutera imbere cyane mu Rwanda. Aho muri iki gihe abantu basigaye bahinga ibihingwa byabo igihe icya aricyo cyose, bakabyitaho hanyuma bakajya babyuhira.

Ahantu mu mubande hari amazi agenda, bakaba barayubakiye bakoresheje sima, akaba yegereye ahantu bahinga ibihingwa bigiye bitandukanye mu gishanga, none akaba yifashishwa mu kuhira iyo myaka.

umwuga w'ubuhinzi ukomeje gutezwa imbere cyane, aho muri iki gihe hari abantu basigaye bahinga maze bakajya buhira imyaka yabo mu buryo bugezweho, aho bakoresha ibyuma by'ikoranabuhanga byinshi bigiye bitandukanye. Ibi bikaba ari byiza cyane.

Umurima w'ibigori uteyemo amoko agiye atandukanye, hakaba hari imashini zabugenewe zifashishwa mu kuhira, aho ziba ari ingirakamaro ku buryo umuntu yuhira ibigori bye atavuye aho ari.

Umurima mwiza cyane uteyemo inyanya, aho hari umurasire wifashishwa mu gukogota amazi kugira ngo ayo mazi baze kuyifashisha bari gutera umuti izi nyanya kugira ngo zere neza.

Ubuhinzi bukomeje kurushaho gutera imbere cyane mu Rwanda, aho haje uburyo bwiza bugezweho bwo kuhira imyaka yawe, ukoresheje imashini zabugenewe, zikajya zikaraga maze amazi akagera ku bihingwa byose.

Inyubako nziza cyane, aho mimbere bashyizemo icyuzi, aho haba harimo amazi atandukanye bifashisha bari kuhira ibihingwa bihinze hafi aho ngaho kugira ngo nyirabyo bizamuteze imbere.

Umurima w'ibigori unyuzemo igihombo mo hagati gitwara amazi, ubuhinzi bw'ibigori rero ni ingirakamaro cyane aho umuntu iyobuhinze abwitaho bubasha kumuha umusaruro.

Umurima uhinzemo ibigori, hakaba hari abantu bafite ibikoresho byabugenewe bifashisha barikuhira ibigori. Ni ingirakamaro cyane rero guhinga ibigori hanyuma tukabyuhira kuko bitanga umusaruro.

Umugabo uri mu murima uhinzemo imyanya, akaba afite umupira wabugenewe akaba ari kugenda azuhira kugira ngo arebe ko zakwera neza zikaba zamteza imbere mu gihe kizaza.

Umurima uhinzwemo imboga nyinshi cyane, izi mboga rero akaba ari ingenzi kubera ko iyo umuntu azihinze akazizitaho, zibasha kumuha umusaruro cyane cyane iyo azuhira akoresheje imashini yabugenewe.

Umugore ukora umwuga w'ubuhinzi, akaba ari ahantu mu murima uhinzemo imbuto, akaba ari kugenda azuhira, yifashishije ipombo ye yabugenewe kugira ngo zitazicwa n'izuba.

Ubuhinzi bw'imboga n'imbuto buba ari ingirakamaro cyane, aho buba bwiza iyo umuntu abihinze ahantu mu gishanga, hanyuma izuba ryava agakoresha igikoresho cyabugenewe yifashisha ari kuhira.

Igishanga giteyemo amoko agiye atandukanye y'ibimera, aho ibi bimera ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese ubihinze akabyitaho akabyuhira bibasha kumuha umusaruro agatera imbere.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu, akaba ahagaze imbere y'agakayoto kari mu mabara agiye atandukanye, kakaba kashanyijeho uburyo bugezweho bwo kuhira imyaka, ukoresheje imashini yabugenewe.

Abarimu bigisha mu mashuri agiye atandukanye, bakunze kuba bambaye amataburiya. Aho bajya bahurira hamwe bakagenda batembera mu muhanda, kugira ngo babashe kumenya uko ibintu biba bimeze.

Hari ubutaka bwiza cyane, hari n'udusozi twinshi duteyeho amashyamba. Hakaba hari intabire zihinze ndetse hakaba harimo n'ibiti birebire cyane, bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Ahantu mu rusisiro hari amazu menshi cyane agiye atandukanye bigaragara ko ashobora kuba ari mu mujyi, hakaba hari amazu menshi cyane meza kandi ya kijyambere, ku buryo nyirayo aba afitemo amafaranga menshi.

Ahantu hari ubutaka bwiza cyane buteyemo amoko agiye atandukanye y'ibimera, hakaba harimo n'amazu menshi cyane agiye atandukanye, ubu buhinzi rero n'ubworozi ndetse n'ubwubatsi ni ingirakamaro cyane ku muntu utuye mu cyaro.

Umurima uteyemo amoko menshi agiye atandukanye y'ibimera, aho harimo insina ndetse n'ibiti birebire byo mu bwoko bw'inturusi, ibi byose rero ni ingirakamaro kuko umuntu ubihinze bibasha kumuteza imbere.

Agasozi keza cyane gateyemo amoko agiye atandukanye y'ibiti ndetse hakaba hateye n'andi moko y'ibihingwa, hakaba haciyemo amaterasi y'indinganire meza cyane kandi agezweho.

Imisozi myinshi cyane igiye itandukanye iteyeho amoko menshi y'ibiti ndetse hasi hubatseho amazu. Hakaba hari n'ahateye ibigori, aho buri hantu hagiye handitse utugambo runaka.

Imisozi myiza cyane igiye itandukanye, aho iyi misozi ari ingirakamaro cyane kubera ko ari imwe mu misozi igihumbi igize u Rwanda. Abakerarugendo bakunda kuza kuyirebera ngo barebe ubwiza bwayo.

Ahantu heza cyane mu gishanga hakaba harimo ikiyaga cyiza cyane, gifite udusozi tugiye dutandukanye, aho utu dusozi tuba turiho amoko menshi agiye atandukanye y'ibiti ndetse ibi biti bikaba ari ingirakamaro cyane.

Ahantu hari ubutaka bwiza cyane kandi bugari, aho ubu butaka ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese ubufite abasha kububyaza umusaruro, aho ashobora guteraho amoko agiye atandukanye y'ibiti cyangwa se akaba yakubakaho inzu.

Umugore wize ibijyanye no kuvura amatungo akaba yagiye ahantu bororeye inka ari kugenda areba ko zimeze neza kugira ngo azivure maze zizabashe guteza imbere umworozi wazo.

Ubworozi bw'inka bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda muri iki gihe, aho abantu basigaye borora amatungo barabigize umwuga, bakayitaho hanyuma bayagurisha akabaha umusaruro bagatera imbere.

Ubuhinzi n'ubworozi bukomeje gutera imbere cyane, aho iyo umuhinzi yororeye inka ye mu rugo hanyuma akajya ayiha ubwatsi, iyo abonye ifumbire ahita arijyana ahantu mu murima we.

Ahantu hari ubutaka bwiza cyane hakaba harimo abantu baragiyemo inka nyinshi cyane, bigaragara ko umwuga w'ubuhinzi n'ubworozi bawugize uwabo bakaba bita ku matungo yabo uko bikwiriye kugira ngo batere imbere.

Ubworozi bw'inkoko bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora inkoko barabigize umwuga, bakazitaho bakaziha ibyo kurya bigiye bitandukanye, hanyuma na zo zikabaha amagi.

Ubworozi bw'inkoko bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe abantu basigaye borora inkoko barabigize umushinga, bakaziha ibyo kurya bigiye bitandukanye, hanyuma na zo zikazabateza imbere igihe bazigurishije.

Ubworozi bw'inka bwateye imbere cyane muri iki gihe, aho hari abantu basigaye borora inka barabigize umwuga, bakazitaho hanyuma bakajya bahamagara na veterineri akaza kuzivura igihe zarwaye.

Ubworozi bw'inkoko bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora inkoko barabigize umwuga, bakazitaho, hanyuma nazo zikazajya zibaha umusaruro maze bakaba batera imbere.

Ubworozi bw'inkoko bumaze gutera imbere cyane mu Rwanda aho muri iki gihe hari abantu basigaye boroyeko barabigize umwuga bakazitaho bakaziha ibyo kurya bigiye bitandukanye hanyuma nazo zikazabateza imbere.

Ahantu heza cyane hari intebe nziza izo ntebe zikaba zibajwe mu biti, hakaba hari n'ibiraro byinshi cyane by'amatungo aho ayo matungo bororeramo azwi nk'inkwavu, zikaba zororerwa mu bibuti.

Ubworozi bw'ingurube na bwo bwateye imbere cyane, aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora ingurube barabigize umwuga, bakazitaho, hanyuma bazigurisha bakabonamo amafaranga yabatunga.

Ubworozi bw'inkoko bumaze gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe abantu basigaye borora inkoko barabigize umwuga, bakazitaho, bakaziha ibyo kurya bigiye bitandukanye, hanyuma zikabateza imbere.

Ubworozi bw'inkoko bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora inkoko barabigize umwuga, bakazitaho bakaziha ibyo kurya bigiye bitandukanye, hanyuma na zo zikazabateza imbere.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho iyi nyubako yubakishije amatafari meza cyane ahiye, n'imbere bakaba barakoreyemo umwuga wo kororeramo inkoko za kijyambere.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

Ubworozi bw'inkoko ndetse n'ihene bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora inkoko barabigize umwuga, bakazitaho, bakaziha ibyo kurya bigiye bitandukanye, hanyuma nazo zikazabateza imbere.

Ubworozi bw'ihene bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho hari abantu basigaye borora ihene barabigize umwuga, bakazitaho hanyuma zamara gukura zikazabaha umusaruro bakaba batera imbere.

Ahantu hari ubutaka bwiza cyane hakaba haragirwa inka, hakaba hateyemo ibiti byinshi by'amoko agiye atandukanye ndetse harimo n'inka nyinshi cyane. aho berekana ko ubworozi bw'inka ari ingirakamaro cyane.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

Ubworozi bw'inkwavu bugenda burushaho gutera imbere cyane mu Rwanda, aho leta yabwiye abaturage bose ko buri wese yabasha korora urukwavu, hanyuma akiteza imbere kubera ko rudahenda na gato.

Ubworozi bw'inka bugenda burushaho gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora inka barabigize umwuga, bakazitaho, bakaziha ibyo kurya bigiye bitandukanye maze na zo zikazabaha umusaruro.

Ubuhinzi n'ubworozi bikomeje guteza imbere cyane ababikora, aho muri iki gihe abantu basigaye borora ingurube barabigize umwuga, bakaziha ibyo kurya byinshi bigiye bitandukanye, hanyuma na zo zabyara zikazabateza imbere.

Inyubako nziza cyane zubabatwe mu buryo bugezweho, aho iruhande rwazo hari ahantu hari abantu bafite inka bagiye batandukanye, bari kugenda batitaho kugira ngo zibahe umusaruro.

Ubworozi bw'inka bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora inka barabigize umwuga, hanyuma igihe cyo kuza kuzuhira cyagera bagahamagaza veterineri akaza kuzitaho.

Ubworozi bw'inka bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora inka barabigize umwuga, bakaziha ibyo kurya zarwara bakabwira veterineri akaza kuzivura.

Umuntu woroye inka wabigize umwuga, akaba ari kuziha amazi akoresheje ibase y'ubururu, afite inkoni mu ntoki kugira ngo ajye ayifashisha igihe cyose aba ari kuyobora iyi nka.

Ubuhinzi n'ubworozi ni umwuga ubasha gukiza nyirawo, aho hari umuntu wakoze umwuga w'ubworozi bw'inkwavu akajya azitaho none akaba abona ko zizamuteza imbere.

Ubworozi bw'ingurube bukomeje gutera imbere cyane, aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora ingurube barabigize umwuga bakazitaho cyane hanyuma zikabaha amafaranga bakabona urwunguko ruhagije ruhagije.

Ubuhinzi ndetse n'ubworozi bw'inka burushaho gutera imbere cyane uko bwije n'uko bukeye, aho muri iki gihe abantu basigaye borora inka bakazitaho, hanyuma zikazabaha umusaruro maze bakaba batera imbere.

Ubworozi bw'inka bumaze gutera imbere cyane mu Rwanda, aho baziragirira hamwe hari n'abashumba baba bazi kuzivuga amazina y'inka, bakazikama bazihamagara bagira bati mbe rutimirwa zihotoye ingoga rwa nyamigema ya rugamba.

Ubworozi bw'inka bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora inka barabigize umwuga. Bakaziha ibyorya bigiye bitandukanye, hanyuma nazo zakura bakazigurisha, bakabonamo amafaranga.

Ubworozi bw'ihene bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda aho muri iki gihe Leta isigaye yarafashe gahunda yo kugenda iha buri muturage ihene, maze akorora kugira ngo aziteze imbere asezere ubukene.

Ubworozi bw'inkoko bwarushijeho gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora inkoko barabigize umwuga, bakazitaho bakaziha ibyo kurya bigiye bitandukanye hanyuma na zo zikazabateza imbere.

Ubworozi bw'inkoko bukomeza kurushaho gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe, abantu basigaye borora inkoko barabigize umwuga, bakazitaho hanyuma nazo zikazabateza imbere mu bijyanye n'umusaruro.

Ubworozi bw'ingurube bukomeje kwitabwaho mu Rwanda, aho muri iki gihe abantu basigaye borora ingurube za kijyambere bakaziha ibyo kurya bigiye bitandukanye, hanyuma nazo zikazabaha umusaruro utubutse kandi mwinshi.

Intoki z'abantu bagera muri babiri, aho bafashe imbuto z'ibihinmbo zigiye zitandukanye, bakaba bari kuzererekana, batwereka imbuto zaba nziza muri zo kugira ngo abe ari zo babasha gutera.

Umuntu ufite imbuto mu ntoki, bikaba bigaragara ko ari imbuto z'ibigori. Imbere ye hari ikindi kigori cyakuze, cyameze, bikaba bigaragara ko ari kwerekana ko kiva kuri izi mbuto.

umuntu uri mu murima uhinzemo ibihingwa by'amasaka, akaba ari kugenda ayahungura bigaragara ko ashaka kuyahura, akaba afite igikoresho cyabugenewe cyifashishwa muri uyu mwuga.

Ubuhinzi bw'umuceri bukomeje kurushaho gutera imbere cyane mu Rwanda, aho bahinga umuceri wamara kwera bakawusarura bawusarura utaratonurwa, aho mu Rwanda abantu benshi cyane abazi ko bawusarura utonowe.

Ubuhinzi bw'umuceri bugenda burushaho gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe abantu basigaye bahinga umuceri, barabigize umwuga, bakawitaho, bawusarura bakawujyana ku bwanikiro kugira ngo bawanikire hamwe, uzabateze imbere.

Umuntu uri mu murima we, aho uwo murima uteyemo imbuto zigiye zitandukanye, akaba afite ifumbire mu ntoki ari kugenda azitera kugira ngo izo mbuto ze zizabashe kwera neza.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho iyi nyubako iteraniyemo abantu benshi cyane, bakaba ari abantu batanga imbuto z'ibihingwa ngiye zitandukanye.

Umuntu ufashe imbuto nyinshi zigiye zitandukanye, aho mu kuboko kumwe afashemo imbuto y'umuceri ahandi afashemo imbuto ya soya akaba ya kuzigereranya ngo arebe igihingwa cyabakiza kurusha ibindi abe aricyo azahinga.

Umuntu usutamye ahantu mu murima akaba ari gutoranya imbuto runaka agiye kwifashisha ahinga kugira ngo azitere mu butaka hanyuma na zo zizabashe kuba zamuteza imbere.

Umuntu wicaye ku gatebe ari guhungura ibigori, aho ari kugenda abihungurira ku umufuka bigaragara ko yakoze umwuga w'ubuhinzi, hanyuma byakwera ibigori akajya abihungura kugira ngo abigurishe.

Abantu benshi bagiye batandukanye bateraniye hamwe, bakaba ari abahinzi b'ibishyimbo bakaba bafite amabase arimo ibishyimbo bagiye badahaho bakoresheje udusahani kugira ngo barebe imbuto nziza.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho mwimbere hateraniyemo abantu benshi cyane bigaragara ko bakora umwuga w'ubuhinzi bakaba bari gushaka imbuto y'indobanure bazakoresha.

Amoko menshi cyane agiye atandukanye y'imbuto, aho izi mbuto ari ingirakamaro cyane zikaba zifashishwa n'abantu b'abahinzi igihe cyose bagiye gutera bakazitera mu murima wabo kugira ngo barebe ko zazabateza imbere.

Abantu biga ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo, baba bagomba kwambara amataburiya y'imyeru hanyuma bagakora imyitozo yo kwiga kuvura bayambaye kugira ngo akazi kazagende neza.

Akabati gapanzeho amoko agiye atandukanye y'imiti yifashishwa mu buvuzi bw'amatungo, iyi miti rero ni ingirakamaro cyane, kuko igihe cyose uyitayeho iguteza imbere.

Ubworozi bw'inka bugenda burushaho gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu baba barize kuvura amatungo ku buryo igihe cyose inka igize ikibazo, bihutira kuza kuyivura maze igakira.

Abantu baba barize ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo, baba ari inararibonye cyane, aho bakunda kuvura aya matungo maze bakayitaho akaba yakira, bifashishije ibikoresho byabo kabuhariwe.

Intebe nziza cyane y'umweru yo mu bwoko bwa pulasitike, ikaba iteretseho iyo ndobo, iyo ndobo rero iriho imiti igiye itandukanye yifashishwa mu kuvura amatungo, cyane cyane ayo mu rugo.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bakaba biga ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo, bakunze kwiga bambaye amataburiya kuko abaranga uburyo bagomba kugira isuku.

Abantu bize ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo baba bafite ubuhanga buhanitse, aho babasha kubaga inka bakareba mu gifu cyayo bakavanamo imyanda ibirimo kugira ngo ikomeze ikure.

Ubworozi bw'inka bumaze gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe abantu basigaye borora inka barabigize umwuga, bakazitaho bakaziha ibyo kurya bigiye bitandukanye, zarwara bakazana veterineri akaza kuzivura.

Abantu biga ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo bakunda kuba bafite impuzankano ziri mu mabara y'umweru baba bambaye igihe bari kuvura amatungo kugira ngo babashe kwimakaza isuku ku myambaro yabo.

Agacupa keza cyane kari mu mabara y'umweru, kariho icyapa kiri mu mabara y'ubururu bwijimye, ubururu bujya gusa icyatsi ndetse n'umuhondo. Kakaba kariho imiti yifashishwa mu kuvura amatungo yo murugo.

Ubworozi bw'inka bugenda burushaho gutera imbere cyane mu Rwanda ariko buba bwiza kurushaho, iyo umuntu yoroye inka zarwara agatumizaho veterineri, akaza kuzivura kugira ngo zitagira ikibazo.

Umuntu wakoze umwuga w'ubworozi bw'inkoko akaba ari mu kiraro cyazo, aho ari kumanikamo ikintu cyifashishwa mu kongerera ubushyuhe aya matungo kugira ngo abashe kumererwa neza.

Inyamaswa y'umusambi, ni imwe mu biguruka dukunda gusanga ahantu mu gishanga, aho ziba zizi kuguruka cyane ndetse zikamenya no kuroba amafi zirira igihe zishonje.

Muri parike y'igihugu y'u Rwanda haba harimo amoko menshi agiye atandukanye y'utunnyamaswa, aho utwo tunyamaswa tuba dushimishije kandi ari twiza cyane ku buryo umuntu wese utubonye yifuza kudusuhuza cyangwa kutureba cyane cyane utunyoni.

Inyamaswa zizwe nk'ibishuhe ziba zijya kumera nk'imbata, dukunze kuzisanga ahantu mu mazi aho ziba zizi koga ndetse no kuguruka, ibyokurya byazo ni amafi kuko ziba zize kuyiobera zikayarya akiri mato.

Inyamaswa zizwi nk'inzovu ziba ari inyamaswa nini cyane dukunda gusanga muri pariki y'igihugu y'Akagera, ziba zizi kwiruka cyane ndetse zikaba zifite n'imbaraga nyinshi cyane kuko ariyo nyamaswa nini.

Muri Parike y'Igihugu y'u Rwanda y'Akagera harimo amoko menshi agiye atandukanye y'inyamaswa, aho izo nyamaswa ari nziza cyane hariho izijya kumera nk'inka zikunda kurisha hasi zikaba zitwa imbogo.

Muri pariki y'Igihugu y'u Rwanda y'Akagera, haba harimo inyamaswa nyinshi cyane zigiye zitandukanye kandi z'inkazi. Iyitwa ingwe iba igira ubugome cyane kandi ifata no ku gakanu, igasimbukira umuntu.

Muri parike y'igihugu y'u Rwanda y'Akagera dukunze gusangamo amoko agiye atandukanye y'inyamaswa, aho inyinshi muri zo ziba zizi kurira ibiti, hari izizwi nk'ingwe, aho ziba zizikurira ibiti cyane ku buryo utabasha kuba wayicika ihita igufata ako kanya.

Muri parike y'igihugu y'u Rwanda y'Akagera haba harimo amoko menshi agiye atandukanye y'inyamaswa, hari inyamaswa zijya kumera nk'abantu zizwi nk'inguge, ziba zisa nk'umukara zifite ubwanwa bw'umweru ku matama.

Muri parike y'Igihugu y'u Rwanda y'Akagera haba harimo amoko menshi agiye atandukanye y'inyamaswa, aho hari izizwi nk'isatura zamenyekanye ku izina rya gasongo ziba zize kwiruka cyane ndetse zigakunda kwibera mu myobo.

Muri parike y'igihugu y'u Rwanda y'Akagera, haba harimo amoko agiye atandukanye y'inyamaswa, hari izizwi nk'ingwe, aho ziba zigira ubugome bwinshi cyane ku buryo inyamaswa yose iyikinishije ihita iyifata ku gakanu.

mMuri parike y'igihugu y'u rwanda y'Akagera haba harimo amoko menshi agiye atandukanye y'inyamaswa, aho izo nyamaswa ziba ari imisega biri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara zikagendera hamwe.

Ahantu mu gishanga haba harimo amoko menshi agiye atandukanye y'inyamaswa, hari izizwi nk'ibifuhe, aho ziba zijya kumera nk'imbata, zibera mu mazi ndetse zikamenya no kuguruka cyane.

Muri parike y'igihugu y'u Rwanda y'Akagera yegeranye n'umugezi w'Akagera, inyamaswa zizwi nk'imvubu zikunze gukuka amazi zikajya konera abaturage batuye hafi ahongaho.

Muri pariki y'igihugu y'u Rwanda y'Akagera haba harimo amoko agiye atandukanye y'inyamaswa, harizizwi nk'impara ndetse n'imparage aho dukunda kwibera ahantu mu mukenke zikajya zirishiriza utwatsi.

Muri parike y'igihugu y'u Rwanda y'Akagera dukunze dusangamo inyamaswa nyinshi z'amoko agiye atandukanye, hari inyamaswa zizwi nk'udusumbashyamba aho ziba arinde cyane ku buryo zibasha kurisha amababi y'ibiti zibereye hasi.

Muri parike y'Igihugu y'u Rwanda y'Akagera haba harimo amoko menshi agiye atandukanye y'inyamaswa, hari izizwi nk'impara n'imparage, aho ziba zisa neza zigakunda kwirira ibyatsi byinshi.

Muri pariki y'Igihugu y'u Rwanda y'akagera haba harimo amoko menshi agiye atandukanye y'inyamaswa, aho izi nyamaswa ari ingirakamaro cyane, dukunze gusangamo impara n'imparage, aho ziba zibera ahantu hari ibyatsi bigufi.

Hariho amoko agiye atandukanye y'inyamaswa dukunda gusanga muri Parike y'Igihugu y'Akagera, izo nyamaswa rero zitwa imparage aho ziba zizi kwiruka cyane ndetse zigakunda kwirira n'utwatsi tugiye dutandukanye.

Muri Parike y'Igihugu y'u Rwanda y'Akagera dukunze gusangamo amoko agiye atandukanye y'inyamaswa, aho izo nyamaswa ziba ari nziza cyane, hari izwi nk'imbeba iba ifite imirizo ifite insenzi, ku buryo igeze mu myenda yayihindura ubushingwe.

Inyamaswa z'ishyamba ziba zizwi nk'impyisi, n'inyamaswa ziba ari ingume cyane ku buryo zikunda guhohotera izindi nyamaswa, zikaba zayirya igihe cyose ziyibonye.

Muri parike y'igihugu y'u Rwanda y'Akagera, dukunze gusangamo amoko agiye atandukanye y'inyamaswa, aho hariho zimwe ziba zizi kuguruka ziri mu bwoko bw'inyoni, zikaba zifora cyane, zigatega amababa, zigatangaza abantu.